Aho umuntu yakura serivisi zo kubika no kubikuza amafaranga, akaba yahakura naa serivisi yo kugura amasegonda cyangwa amafaranga umuntu akoresha ahamagara, akaba ari ku muhanda aho hari utuzu twubakishije ibyuma bisa umutuku.

Ihuriro ry'abahinzi, ririmo rirasarura imyaka bahinze. Bakaba barahinze umuceri. Bakaba barimo bawusarura banawuhura. Hakaba harimo abanyamuryango benshi batandukanye, bitabiriye iki gikorwa cyo gusarura.

Ihuriro ry'abaturage, hakaba iri ihuriro ryicaye munsi y'ibiti, bicaye ku dutebe duteye mu byatsi, hakaba hakikijwe n'amazu y'iri huriro.

Icyumba cyo mu kigo cy'imari gishinzwe kuguriza ndetse no kubika amafaranga y'abaturage, aho umuturage arimo arasinyira amafaranga, aho naho undi akaba ariho aramubarira amafaranga umuturage yasabye.

Akabari wakuramo icyo kunywa gitandukanye. Aka kabari kakaba kubakishije ibikuta bisa n'ikijuju. Aho intebe zisa umukara, naho amacupa y'inzoga akaba asa umweru.

Aho bafatira icyo kurya ndetse n'icyo kunywa. Hakaba hicaye umusore wambaye umupira w'umweru, ingofero y'umutuku. Intebe zaho zikaba zisa nk'ikigina zikoze muri parasitike.

Akabari gacururizwamo ibyo kunywa bitandukanye. Hakaba harimo ibinyobwa bisembuye ndetse bidasembuye.

Urusengero abaturage bakoresha basenga, aho rwubakishije amatafari ahiye, ruka rubusakaje amabati atukura, hakaba imbere yaho hateye ibiti, hakaba hari abaturage bari kwinjiramo.

Inzu igerekeranye isa umuhondo ifite ibirahuri by'umukara. Ikaba imbere yayo hagaze abapadiri bambaye amakanzu atukura ndetse abandi bakabambaye asa n'iroza. Imbere y'aho aho bakandagiye hakaba hasa icyatsi kibisi.

Icyumba bafatiramo icyo kurya. Kikaba kirimo ibiryo birimo umuceri utetse neza. Bakaba bawaruriye ku isahani ry'igiti.

Icyumba cy'aho wafatira icyo kurya n'icyo kunywa ukaba wanahafata icumbi ukaharara, hakaba hubakishijwe n'ibikuta bisa umweru ndetse no hejuru hakaba hasa umweru, hakaba hari amatara yaka umweru.

Icyumba cy'aho wafata amacumbi cyangwa ukafatira icyo kurya cyangwa n'icyo kunywa, iki cyumba kikaba kirimo igitanda gisa umukara, kikaba kiriho matela isa umweru n'sekuru y'umweru.

Icyumba cyuwo muntu kikaba kiri aho umuntu yafatira amacumbi cyangwa icyo kurya n'icyo kunywa, akaba arimo igitanda kijya gusa umutuku, waruhutse aho matela yafashweho imifuka y'umweru.

Icyumba cy'aho wakura icyo kurya, icyo kunywa cyangwa ukaba wahacumbika, kikaba ari icyumba kirimo igitanda gisa n'umutuku, naho hakaba hariho matora isashishijweho ishuka y'umweru u n'imisego y'umweru.

Inzu wacumbikamo ukaba wahasanga icyo kurya ndetse n'icyo kunywa. Ikaba ari inzu yubatse igeretse. Ikaba hasi yubakishije amatafari ahiye. Naho hasi hakaba hari aho imodoka ndetse n'ibindi binyabiziga bihagarara.

Icyumba cy'aho wabona icumbi cyangwa ukahasanga ibyo kurya n'ibyo kunywa, hakaba harimo igitanda gisa umukara ndetse n'intebe y'umweru, hakaba harimo matera isasheho amashuka y'umweru ndetse n'imisego y'umweru.

Inzu wabonamo icyo kurya, icyo kunywa, ukaba wahafata n'icumbi, akaba ari inzu yubatse igerekeranye, hakaba hasi hari amazi wogamo kugira ngo uruhuke.

Isoko ryo ku muhanda, aho iri soko bacururiza ku nzira, abantu banyuramo. Hakaba hacururizwamo ibikoresho bitandukanye, haba ibikoresho byifashishwa mu kudoda, amavuta, inshinge, indodo, ibisokozo, utunguruzo ndetse n'ibindi.

Isoko riri ku muhanda. Aho bacuruza ibintu biri mu gipira babisutse. Bakaba abaturage bahaca bigedera bagahaha.

Isoko ribera ku muhanda, aho ibicuruzwa biba biri ku nzira abatambuka bagahaha, ibi bitunguru bikaba bigurishwa ku munzani ndetse no ku mifungo.

Isoko ryo ku muhanda, rikaba ricururizwamo ibikoresho bitandukanye, byo mu rugo harimo umwuko, ijagi, udukeis tw'amafaranga, itoroshi, ndetse n'utuyunguruzo tw'icyayi.

Isoko bacururizamo ibyo kurya, ibyo kurya bikaba bigizwe na karoti, imiteja, inyanya y'intoryi ndetse n'ibitunguru, hakaba hari gucuza umugabo acuruza ku umugore.

Ipikipiki irimo iragenda mu muhanda, aho umugabo uyitwaye yambaye akarinda mutwe k'umutuku n'ikirahure, imbere akaba ahetse umugore uhetse umwana umutwikije igitambaro.

Umugabo atwaye igare. Akaba aritwariye mu muhanda wa kaburimbo, aho ku nkengero z'uyu muhanda wa kaburimbo hubatse amazu acururizwamo.

Umugabo arimo atwarira igare mu muhanda wa kaburimbo. Aho ari gusumeka ibicuruzwa avuye guhaha mu nkengero z'uyu muhanda hakaba hateye ibiti.

Ipikipiki ikaba itwawe n'umugabo, ikaba iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, inkengero z'uyu muhanda hakaba hubatse inzu z'ubucuruzi zikaba zisa umweru.

Ipikipiki ikaba itwawe n'umugabo, umugabo akaba ahetse undi muntu inyuma n'igisanduku kirimo inkoko, akaba bari kunyura mu muhanda wa kaburimbo, ku nkengero z'uwo muhanda hakaba hubatse amazu.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyurwamo n'igare ndetse n'ipikipiki igare rikaba ritwawe n'umugbo ku nkengero z'umuhanda hakaba hubatse inzu igerekeranye.

Umuhanda wa kaburimbo . Aho uyu muhanda uri kunyurwamo n'umuntu utwaye igare. Akaba ahetse ibipira birimo amazi. Akaba yambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'umukara.

Umugabo ahetse umugore ku ipikipiki. Uyu mugabo akaba yambaye akarinda mutwe k'umutuku ndetse n'ikirahure imbere. Iyi moto ikaba isa umutuku. Ikaba igenda mu muhanda wa kaburimbo ukikijwe n'indabyo.